Inzu ifite inyubako nini cyane ya etaje, bari gucururizamo ibintu by'ikoranabuhanga, imbere yayo haparitse imodoka y'ivatiri y'umukara, hariho n'umugabo w'umusekerite wambaye imyenda y'umukara, n'umweru n'ikoni y'abapolisi.

Indabo ziteye mu murima zisa n'icyatsi, ariko zigaragara nk'izidashi nk'izidashishe, zahuye n'izuba zigaragara nk'izidashishe, ntabwo zishishe zimeze neza.

Igiti kinini giteye muri jaride, imbere ya ho hubatse inyubako nini, ifite amadirishya y'ubururu, n'inzugi z'ubururu, yubakishije amatafari ahiye. Hariho n'amasikariye.

Umurima uteyemo igiti cy'ikibonobono, bawusaruyemo ibishyimbo. Ibishingirizo birasandaguje, ni umurima munini cyane, harimo n'igiti cy'ikibonobono.

Ishyamba ririmo ibyatsi, harimo icyatsi gifite ikibabi kinini cyitwa igishihe, ibi byatsi tubigaburira amatungo, tukabishakamo n'ifumbire y'amatungo y'imborera, kugira ngo tubone ifumbire yo guhingisha.

Ishyamba ririmo riteyemo ibiti birebire birimo n'ibifite indabo z'imihondo n'ibindi biti birebire bifite amababi magari maremare.